Amacupa arimo imiti yifashishwa mu buhinzi, aho bakoresha iyi miti bari kuyitera mu bimera, kugira ngo bice udukoko turya tukanangiza ibi bimera, ibi babyifashisha bagamije, kugira ngo bongere umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi.

Umufuka urimo amafumbire mvaruganda yifashishwa nk'inyongeramusaruro, aho bayashyira ku bihingwa hagamijwe kongera intungwagihingwa mu butaka, bityo byongera umusaruro wakomoka kuri ibyo bihingwa, baba bashyizeho iyo fumbire mvaruganda.

Imwe mu miti yifashishwa mu bintu bijyanye n'ubuhinzi, aho bayitera ibihingwa hagamijwe kwica udukoko dutoya twangiriza imyaka, tugatuma umusaruro w'ubuhinzi uba mukeya, iyo bamaze guteramo iyi miti umusaruro w'ibigori n'imbuto z'indi nyinshi uriyongera.

Imifuka irimo imbuto z'indobanure z'ibinyampeke biri mu bwoko bw'ibigori. Izi mbuto ziba zaratoranijwe zarasuzumwe neza, ku buryo baba bizeye neza ko zizatanga umusaruro mwinshi cyane, ugereranyije n'imbuto zisanzwe za gakondo.

Ikizenga cyuzuyemo amazi kizwi ku izina ry'icyuzi, bakaba bagikoreramo ibikorwa bijyanye no korora amafi, akaba agira umumaro ukomeye cyane mu buzima bwa muntu kuko ari isoko y'intungamubiri, ndetse n'amafaranga ku bantu bakora ubu bworozi.

Ahantu hamanitse umusaruro w'ibikomoka mu mazi byo mu bwoko bw'amafi. Ibingiibi bifite umumaro ukomeye cyane mu mibereho myiza y'ubuzima bwa muntu, kuko bitanga vitaminini nyinshi cyane. Zifite uruhare mu kubaka ubuzima bwiza, ikindi kandi zitanga n'amafaranga ku bantu baziroba.

Amazi magari cyane aho akorerwamo ibikorwa bijyanye n'uburobyi ubwo ndetse no gusarura umusaruro ukomoka muri ibi biyaga. hagaragara amato akoze mu biti akaba yifashishwa n'abarobyi bakora umurimo wo kuroba amafi muri iki kiyaga. Ndetse n'abo barobyi baragaragara.

Icyuzi ahantu bagomeye bakahafungirana amazi, akaba ari na ho bororera amafi ndetse n'izindi nyamaswa ziba mu mazi, zikaba zinatanga umusaruro wifashishwa nk'ibiribwa mu miryango, ndetse bakanabigurisha ku isoko mpuzamahanga.

Bimwe mu binyabuzima biba mu mazi bizwi nk'amafi, ibinyabuzima biraribwa n'abantu, kuko bigiraga vitamini zikenewe n'umubiri wabo.

Bimwe mu binyabuzima biba mu mazi bizwi nk'amafi. Ibinyabuzima bitanga ibiribwa ku bantu, kuko bigira vitamini zikenewe n'umubiri wa muntu. Ikindi kandi bigira uruhare rukomeye cyane mu iterambere ry'abaturage, kuko abantu bakora ibikorwa bijyanye no kuroba barabigurisha.

Ibikoresho bikozwe muri palasitike bizwi nk'amabase, aho birimo umusaruro w'ibikomoka mu mazi bizwi nk'amahera, ibi bikomoka mu mazi bifite umumaro ukomeye cyane, mu mibereho myiza ya muntu, aho bitanga intungamubiri nyinshi cyane zitandukanye, ikindi kandi bifite akamaro mu bukungu bw'abasarura uwo musaruro.

Bimwe mu bihingwa, bihingwaga mu gihugu cy'u Rwanda, by'umwihariko bibarizwa mu gice cy'ibinyampeke n'ibinyamisogwe, kizwi ku izina ry' amashaza, bifite akamaro gakomeye cyane, kuko bishobora kuba byakoreshwa, mu mwanya w'ibishyimbo, kuko bigira intungamubiri zimeze kimwe.

Kimwe mu bihingwa bihingwa mu bice byose by'igihugu cy'u Rwanda bizwi ku izina ry'urutoki, haragaragara ibiti biteze insina bizwi nk'inkingi birinda ko umuyaga wagusha ibyo bitoki mu gihe cy'imvura.

Ahantu hahinzwe bimwe mu bihingwa bizwi cyane cyane kw'izina ry'ibigori, aho bibarizwa mu muryango mugari w'ibinyampeke, bifite umumaro ukomeye cyane mu gutanga ibiribwa ku muryango mugari nyarwanda ndetse no gutanga amafaranga ku bantu babihinga iyo babigurishije.

Kimwe mu bihingwa bihingwa mu gihugu cy'u rwanda bizwi nk'urutoki, bifite umumaro ukomeye cyane kuko byifashishwa nk'ibiribwa biribwa n'abanyarwanda, ariko kandi binafashishwa mu kwenga ibinyobwa by'abanyarwanda bizwi nk'urwagwa sibyo gusa kandi bishobora no gutanga ibiribwa ku matungo nk'inka yororerwa mu gihugu murugo.

Umurima uhinzwemo igihingwa kibarizwa mu muryango w'imbuto, kizwi nk'kinyomoro. Kikaba kigira umumaro ukomeye cyaane kuko cyongera amaraso mu mubiri w'umuntu, ikindi kandi kinatanga amafaranga kuko abantu bagihinga bakijyana ku isoko bakacyinjizamo amafaranga.

Umurima uhinzemo igihingwa kiba mu muryango w'imbuto kizwi nk'itunda. Iki gihingwa baragihinga maze kijya kiranda kiri kuzamuka ku giti baba bashinze. Gifite umumaro ukomeye cyane kuko kizamura ubukungu bw'abantu bagihinga, iyo bagisaruye bakijyana ku isoko.

Kimwe mu bihingwa bihingwa mu gihugu cy'u Rwanda kizwi nk'ibigori. Iki gihingwa kibarizwa mu bwoko bw'ibinyampeke, aho cyifashishwa kivanwamo amafu, ndetse kikanifashishwa kandi nk'ibiribwa by'amatungo.

Abantu bari gushyira ifumbire mvaruganda ku gihingwa kizwi nk'ikigori, kikaba gifite umumaro mwinshi cyane, kuko kivamo ifu abantu baryamo imitsima, ndetse bakanayinywamo igikoma.

Ikiribwa gakondo kizwi cyane cyane mu Rwanda, aho kibarizwa mu kiciro cy'imboga ndetse n'imbuto. By'umwihariko babihinga ahantu hari igishanga, bikagira n'imboga nziza zizwi nk'ibisusa.

Abantu bari gupakira umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi, by'umwihariko biri mu bwoko bw'ibitoki, bari kubipakira mu modoka aho bari kubijyana mu tundi duce twinshi cyane dutandukanye, hagamijwe kugira ngo babirye cyanwa se babikoremo inzoga izwi nk'urwagwa.

Igikoresho gakondo kizwi nk'intara, babohaga mu byatsi kiriho ibinyampeke biri mu bwoko bwa soya. Ibinyampeke bifite umumaro ukomeye cyane kuko ari isoko y'intungamubiri ku mubiri wacu nk'abantu. Si ibyo gusa kandi bitanga n'amafaranga ku bantu babihinga igihe waba wabijyanye ku isoko.

Kimwe mu bihingwa bihingwa mu gihugu cyacu bibarizwa mu muryango w'ibinyampeke kizwi nk'ikigori, kizwiho cyane cyane kuba kiryoha cyane igihe bacyokeje.

Bimwe mu bihingwa, bihingwa mu gihugu cacu aho iki gihingwa kibarizwa mu bwoko bw' imboga kizwi nk' amashu, iki gihingwa kizwi cyane cyane kuko kiryoha ndetse kikaba kinagira intungamubiri zikenewe n' umubiri wa muntu.

Kimwe mu bihingwa bihingwa ino aha mu gihugu cyacu kibarizwa mu muryango w'ibinyampeke, kizwi ku izina ry'ibigori, ibi bigira umumaro ukomeye cyane, mu bukungu bw'ababihinga, kuko babijyana ku isoko bakabibonamo amafaranga. Ikindi kandi binatanga amafunguro aribwa mu miryango yabo.

Igiti gikunda guhingwa cyane mu bice by'icyaro, aho cyera imbuto bita imyembe. Izi mbuto ni nziza cyane ku buzima, kuko zigira intungamubiri umubiri w'abantu ukenera. Sibyo gusa kandi zitanga n'amafaranga ku bantu bazihinga, iyo baziremesheje isoko.

Rumwe mu imbuto zihingwa cyane cyane mu bice by' icyaro ruzwi ku izina ry' amaronji, urubuto ni rwiza cyane cyane kuko rurinda indwara mu mubiri, ikindi kandi runatanga amafaranga ku bantu baruhinga, igihe basaruye umusaruro wabo bakawugurisha bakuramo amafaranga.

Amapera kimwe mu rubuto ruhingwa mu bice by'icyaro, ikindi kandi rukaba rufite umumaro ukomeye cyane, kuko rwifashishwa nk'umuti uvura indwara z'igifu, si ibyo gusa kandi bamwe na bamwe barayasarura, bakayajyana ku isoko bikabaha amafaranga.

Kimwe mu bihingwa bihingwa mu gihugu cy'u Rwanda by'umwihariko mu Ntara y'Amajyaruguru mu turere nka Musanze, Burera, ndetse n'utundi, kizwi ku izina ry'ibirayi. Gifite umumaro ukomeye cyane, kuko gitanga amafaranga ku bantu bagihinga igihe bakigurishije. Ikindi kandi kiribwa n'abantu.

Bimwe mu bihingwa bihingwa mu Gihugu cy'u Rwanda ,by'umwihariko mu bice by'amajyaruguru n'uburengerazuba bizwiho kuba bikonja cyane, izi imboga zizwi ku izina ry'ibishushu cangwa se ibishayote bitewe naho uturuka, bifite umumaro ukomeye cyane mu mibereho myiza ya muntu ya buri munsi.

Kimwe mu bihingwa bihingwa kibarizwa mu muryango w'ibinyamisogwe kizwi nk'ibishimbo. Kikaba gifite umumaro ukomeye cyane mu buzima bwa muntu.

Kimwe mu bihingwa, bihingwa cyane cyane mu bice by'icyaro kizwi ku izina ry'igisheke, bigira umumaro ukomeye cyane, kuko byifashishwa mu nganda, zitunganya isukari yifashishwa mu buzima bwa muntu, buri munsi.

Ipera kimwe mu bihingwa bihingwa mu bice by'icyaro, aho gifite umumaro utandukanye cyane, kuri bamwe bacyifashisha nk'umuti uvura igifu n'izindi ndwara nyinshi cyane zo mu nda. Si ibyo gusa kandi kuko kinatanga amafaranga iyo keze abagihinga barakigurisha bikabaha amafaranga.

Ni bimwe mu biribwa biribwa mu Rwanda, bizwi ku izina ry'amateke. Bikaba bibarizwa mu muryango mugari w'ibinyamafufu, kandi bikaba binatera imbaraga. Si ibyo gusa kandi, bifite uruhare rukomeye cyane mu iterambere kuko bigurishwa ku masoko bikazanira amafaranga abantu babihinga.

Kimwe mu bihingwa bihingwa mu gihugu cy'u Rwanda, bibarizwa mu muryango mugari w'ibitera imbaraga, cyane cyane ibinyamafufu bizwi ku izina ry'ibijumba. Ibi kandi bigira uruhare rukomeye cyane mu mibereho ya muntu, kuko bitera umubiri imbaraga, ikindi kandi binatanga amafaranga ku bantu babihinga iyo babijyanye ku isoko.

Kimwe mu bihingwa bihingwa mu bice by'amajyaruguru, bizwi ku izina ry'ibireti. Bikaba byifashishwa n'inganda zikora imiti yica udukoko twibasira ibihingwa. Ibingibi bitanga amafaranga ku bantu babihingaga.

Kimwe mu bihingwa, bihingwa mu gihugu cy'u Rwanda, by'umwihariko bihingwa mu bice by'icaro, nk'aho harimo inyanya, intoryi ndetse n'ibindi, ibingibi bifite umumaro mwinshi cyane ku buzima bwa muntu, kuko biri mu bintu birinda indwara.

Kimwe mu bihingwa bihingwa mu Rwanda, kizwi ku izina ibihaza, kikaba gifite umumaro ukomeye cyane, mu kuvura indwara zo mu nda, ikindi kandi kinatanga amafaranga、kuko abantu babihinga, barabigurisha, bakabikuramo ubukungu buteye imbere icyuma

Kimwe mu bihingwa bihingwa mu gihugu cyacu kizwi ku izina ry'igitoki, kizwi cyane kuba gitanga amafunguro mu miryango, ikindi kandi kinafashishwa mu nganda zikora inzoga izwi kw'izina ry'urwagwa, si ibyo gusa kandi kinatanga amafaranga ku bantu babihinga n'ababicuruza.

Rumwe mu mbuto zera mu gihugu cy'u Rwanda, by'umwihariko mu Ntara y'Amajyaruguru, ruzwi ku izina ry'inanasi. Rukaba ari urubuto rwihariye cyane kuko ruraryoha. Umutobe warwo ni mwiza ku mubiri wa muntu.

Inyama y'inkoko bamaze gukuraho amababa yayo iyi nyama izwi cyane cyane kuko iryoha; kandi ikaba ari na nziza ku mubiri wacu cyane ko inyama zazo ari iz'umweru atari nka za zindi z'umutuku, zigira ingaruka mbi ku buzima bwa muntu.

Imwe mu nyamaswa zororwa mu rugo ibarizwa mu muryango w'izinyamabere izwi ku izina ry'ihene, ikaba ifite umumaro mwinshi cyane kuko itanga ifumbire ryifashishwa mubuhinzi, ikindi kandi inazwi cyane ku gutanga umusaruro w'inyama aho igira inyama zikunzwe cyane.

Kimwe mu bihingwa bihingwa mu Gihugu cyacu nk'u Rwanda kizwi ku izina ry'ibijumba. Iki gihingwa gifite umwihariko ukomeye cyane, kuko ari kimwe mu bitanga imbaraga ku mubiri wa muntu. Ikindi kandi bishobora gutanga n'amafaranga ku muntu ubihinga, kuko yabijyanye ku isoko. Arabigurisha akaba yabikuramo umusaruro w'amafaranga.

Umugore ufite bimwe mu bihingwa bihingwa, bibarizwa mu muryango mugari w'imboga bizwi nk'amashu, agira akamaro gakomeye cyane mu bukungu bw'abantu, kuko abantu bayahinga barayagurisha bikabaha amafaranga, ikindi kandi afite umumaro mu buzima bwa muntu, kuko atanga vitamini zikenerwa n'umubiri.

Umusaruro wa bimwe mu bihingwa, bihingwa mu gihugu cy'u Rwanda bizwi ku izina ry'ibirayi, by'umwihariko bikaba bihinga mu bice by'Amajyaruguru, by'umwihariko mu karere ka Musanze, Burera ndetse n'ahandi, bifite umumaro ukomeye cyane mu gutera imbaraga umubiri wa muntu, ndetse no gutanga amafaranga n'ubukungu bugiye butandukanye.

Kimwe mu bihingwa bihingwa mu gihugu cyacu kizwi nk'ibisheke, aho bifite ubumaro bukomeye cyane kuko ari isoko y'amafaranga ku bantu, babihinga ikindi kandi binanifashishwa n'inganda zikoraga amasukari.

Umurima uhinzweho ibihingwa ngandurarugo, aho iki gihingwa kibarizwa mu cyiciro cy'ibinyamisogwe kizwi ku izina ry'ibishyimbo. Iruhande rw'uwo murima haragaragara abantu bagizwe n'abagore ndetse n'abagabo, aho bari kuhaherwa amasomo yerekeranye no kubifata neza.

Igihingwa ngengabukungu kizwi nk'icyayi, gikunda guhingwa mu bice bikonja cyane, nk'uturere twa Nyabihu ndetse na Gakenke. Iki gihingwa gifite akamaro gakomeye cyane, kuko cyoherezwa mu mahanga, kikinjiza amafaranga menshi cyane ku gihugu cyacu.

Ahantu hari umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi, hakaba ari naho ugurishirizwa. Haragaragara umuceri, ibigori, ibishyimbo, ndetse n'ibindi, kandi nanone wahabona amavuta yifashishwa mu ngo mu buzima bwa buri munsi mu bikorwa bijyananye no guteka, by'umwihariko mu gikoni.

Ubuso bunini cyane aho buhingwaho ibihingwa ngengabukungu ndetse n'ibiribwa, haragaragara udusozi dukase neza cyane tuzwi nk'amaterasi hagamijwe kugabanyaa umuvuduko w'isuri yibasira izi nshe z'imisozi miremire cyane.

Ahantu hari umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi by'umwihariko ibirayi, aho biri mu bikoresho baboha mu byatsi bizwi nk'ibitebo, uyu musaruro ugira akamaro gakomeye cyane mu bukungu bw'abantu kuko bivamo amafaranga iyo babigurishije.

Ahantu bacururiza umusaruro w'bikomoka ku buhinzi, by'umwihariko imboga n'imbuto, hagaragara imbuto zizwi nk'intoryi ndetse n'inyanya, ibi byose bifite uruhare rukomeye cyane mu mibereho myiza y'ubuzima bwa muntu.

Kimwe mu biribwa bihingwa kandi bikanaribwa cyane cyane mu gihugu cy'u Rwanda bizwi ku izina ry'bijumba, haragaragara kandi abagabo babiri bahagaze iruhande rw'ibyo bijumba, biteretse mu ibasi, igikoresho gikozwe muri pulasitiki.

Umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi ariko by'umwihariko ubarizwaga mu gice cy'imboga n'imbuto ,aho hagaragaramo ibinyomoro, imineke ,amaronji ndetse n'inanasi Byose bifite ingaruka nziza ku buzima bwacu cyane cyane abantu bakiri batoya cyane.

Kimwe mu bihingwa, bihingwa mu gihugu cy'u Rwanda bifitiye akamaro gakomeye cyane iterambere ryarwo. Aho hari inyanya. Hagaragara kandi umudamu uri kuzikoramo, bigaragara ko ari kuzibungabunga, ndetse no kuzisarura. Byitezwe ko zamuteza imbere . Kurya ku mafaranga ava mu musaruro w'izi nyanya

Rumwe mu rubuto rwera mu gihugu cyacu ruzwi ku izina ry'ipapayi, uru rubuto rufite umumaro munini cyane mu buzima bwiza bwa muntu kuko rurinda indwara, ndetse rukanakora nk'umuti w,uburwayi bumwe na bumwe bugiye butandukanye bugaragaraga mu mibiri y'abantu.

Kimwe mu bihingwa bihingwaga mu bice by'icaro bita insina, insina ni igihingwa kera igitoki kikaba kifashishwa mu gukora inzoga izwi nk'urwagwa, sibyo gusa kandi kiranaribwa mu miryango y'abanyarwanda ndetse n'abandi ku isi yose.

Avoka kimwe mu bihingwa bihingwa mu bice by'icyaro, aho gifite umumaro ukomeye cyane, kuko cyifashishwaa n'inganda, zikora ibikoresho by'isuku nk'amasabune, si ibyo gusa kandi kinagira vitaminini zikenerwa n'umubiri wa muntu.

ibihaza kimwe mu bihingwa bihingwa cyane mu bice by'icyaro. Bikaba bigira umumaro ukomeye cyane ku mubiri w'abantu, kubera yuko bivura indwara zimwe na zimwe zo mu nda. Si ibyo gusa kandi binatanga amafaranga k'ubantu babihinga igihe baba babigurishije ku masoko atandukanye.

Imyumbati nikimwe mu bihingwa bihingwa cyane cyane mu bice by'icyaro. kikaba gifite umwihariko wo kuba ari kimwe mu bihingwa bitera imbaraga umubiri wacu.

Zimwe mu nyamaswa zororerwa mu rugo, mu gihugu cyacu, aho zibarizwa mu muryango w'inyamabere, zizwi ku izina ry'inkwavu. Izi nyamanswa zizwiho kuba zororoka vuba vuba cyane, ikindi kandi zikaba zizwiho kuba ngo zizi ubwenge bwinshi cyane.

Rumwe mu rubuto ruhingwa cyane mu bice by'icyaro, ruzwi ku izina ry'ipapayi. Urubuto ni rwiza cyane kuko rugira vitaminini umubiri wacu ukenera cyane . Si ibyo gusa kandi n'abantu baruhinga barujyana ku isoko, bakarukuramo amafaranga.

Rumwe mu mbuto zihingwa mu rwanda ruzwi ku izina rya avoka, abanyarwanda bakunda kutazirira umuburanyi uru rubuto rufite akamaro gakomeye cyane mu buzima bwa muntu, kuko rwifashishwa mu kurukoramo amavuta kandi rukanatanga vitamini nyinshi cyane ku mubiri wu munt kukurinda indwara, ndetse n'ibindi byinshi cyane.

Ibishyimbo kimwe mu bihingwa bihingwa mu bice by'icyaro, cyane cyane kizwiho kuba gifite akamaro kajya kumera nk'ak'inyama.

Nka kimwe mu bihingwa bihingwa mu bice by'icyaro, aho cyifashishwa n'inganda zigikoramo amavuta, kizwi ko amavuta akivamo aryoha cyane, kandi akaba atagira n'ingaruka mbi ku mubiri w'abantu.

Kimwe mu binyampeke bihingwa mu gihugu cy'u Rwanda kizwi ku izina ry'ingano. Iki kinyampeke cyifashishwa n'abantu bakora amafu y'amafarini, yose yifashishwa mu gukora imikati ndetse n'ibindi byinshi cyane. Iki kinyampeke gifite umumaro ukomeye cyane, kuko gitanga amafaranga ku bantu bagihinga.

Umugore n'umugabo bari gukora igikorwa bita kugosora, aho bari kuvangura ibishyimbo ndetse n'imyanda, bari kwifashisha igikoresho gikozwe mu biti kizwi nk'intara, kikaba cyarabohwaga n'abanyarwanda ba kera bitwaga ababoshyi.

Kimwe mu bihingwa bihingwa kibarizwa mu muryango w'ibinyampeke, kizwi nk'ubunyobwa bizwiho cyane cyane kuba byerera mu butaka, biri mu kintu cy'igikonoshwa bifite umumaro ukomeye cyane, kuko ari isoko y'ubukungu ku bantu babihinga iyo babigurishije, ikindi kandi ritanga intungamubiri ku mubiri w'umuntu.

Igikoresho gakondo gikoreshwa mu gihugu cy'u Rwanda . Bakiboha mu bintu byitwa imbingo ,aho cyifashishwa bari kugosora ibinyampeke ,harimo ibigori, amashaza ndetse n'amasaka.

Kimwe mu bihingwa bihingwa mu bice by'icyaro kizwi ku izina ry'amasaka, akaba agira umumaro mwinshi cyane, kuko yifashishwa n'abantu benga inzoga bita urwagwa, ikaba iyo nzoga iva mu bitoki.

Kimwe mu bihingwa bihingwa mu bice by'icyaro, kikaba kinabarizwa mu binyampeke kizwi ku izina ry'amasaka. Cyifashishwa mu kugikoramo ibinyobwa bizwi nk'umusoruru. Ndetse banabikoresha bari kubetera inzoga y'urwagwa.

Kimwe mu bihingwa bikundaga guhingwa mu bice by'icyaro kibarizwa mu muryango mugari n'ibinyampeke kizwi nk'ibigori, ikindi kandi bibitse mu mufuka uzwi nk'igunira mu muco nyarwanda, bigira umumaro ukomeye cyane kuko biribwa n'abantu.

Kimwe mu bihingwa bihingwa mu gihugu cy'u Rwanda kikaba kibarizwa mu muryango w'iby'ibinyampeke kizwi ku izina ry'ubunyobwa, kikaba gifite umumaro mwinshi cyane aho gitera imbaraga ndetse kikanubaka umubiri, ariko kandi gifite uruhare rukomeye cyane mu bukungu abantu bagihinga kuko gitanga amafaranga.

Kimwe mu bihingwa bihingwa mu bice by'icyaro cyane cyane kizwi ku izina ry'amashaza, iki gihingwa kigezweho kuba cyabasha gusimbura ibishyimbo.

Abagore bafite ibikoresho bizwi nk'ibase, bikoreshwa mu rugo mu buzima bwa buri munsi, aho bari ku bishyimbo bitari byavanwamo imyanda bari kubisuka suka aho ngaho.

Ahantu bakusanyiriza ndetse ni naho ho banananika umusaruro w'ibinyampeke bizwi ku izina ry'ibigori. Aha ngaha bahatunganyiriza umusaruro uba waturutse ahantu henshi hatandukanye, by'umwihariko w'ibinyampeke by'ibigori twavuze haruguru.

Imwe mu nyamaswa zororwa mu Rwanda izwi ku izina ry'ingurube, ikaba ifite umwihariko wo kuba ari inyamaswa irya ibintu byose ikindi kandi ikaba ibyara ibyana byinshi cyane, bishobora kugera ku mubare icumi ikabibyarira icyarimwe.

Imwe mu nyamaswa zororerwa mu rugo by'umwihariko mu gihugu cy'u Rwanda cyane cyane mu turere twose tw'igihugu izwi nk'inkoko. Iyi ngiyi iri mu bwoko bw'isake aho izwi cyane nk'isoko y'inyama ndetse na kera zifashishwaga mu bijyanye no kumenyesha igihe, mu gihe zabaga zibitse.

Ahantu bororera itungo rizwi nk'inka hakaba hari ishyo ryazo. Inka igira akamaro gakomeye cyane mu banyarwanda kuko itanga amata ndetse n'ifumbire, ryifashishwa mu bikorwa bijyanye n'ubuhinzi.

Zmwe mu nyamaswa zororwaga mu gihugu cy'u Rwanda zizwi ku izina ry'inka. Zikaba zibarizwa mu cyiciro cy'inamabere. Haragaragara umuntu kandi urimo gusarura umusaruro uzikomokaho, uzwi nk'amata. Izi nyamaswa kandi zikaba zinatanga umusaruro w'inyama ndetse n'ifumbire yifashishwa mu guhinga.

Ahantu hari abantu, bigaragara ko ari abanyeshuri bari gukora ibikorwa bijyanye n'ubuvuzi bw'amatungo mu ndimi z'amahanga bazwi nka ba veterimeri, hagamijwe kuvura ndetse no kubungabunga inyamaswa zororerwa mu rugo ndetse niz'agasozi.

Ahantu hanini cyene hakorerwa ibikorwa bijyanye n'ubworozi bw'amatungo, by'umwihariko inka n'ahantu mu kinyarwanda hazwi nk'urwuri. Hakaba ariho hakorerwa ibikorwa byerekeranye n'ubworozi. Korora inka bifite umumaro utandukanye mwinshi cyane nko gutanga ifumbire, amata ndetse n'inyama zo kurya.

Imwe mu nyamaswa zororerwa mu rugo bita intama, ikaba ifite umwihariko wo kuba igira inyama iryoha cyane, by'umwihariko ku igisembe cyayo.

Rimwe mu matungo yororwa mu muryango nyarwanda, rizwi nk'ihene. Rikaba ribarizwa mu cyiciro cy'inyamabere aho ziribwa n'abantu ndetse kandi zinatanga ifumbire yifashishwa mu buhinzi.

Ahantu inka zinywera amazi hazwi nk'ikibumbiro. Inka ni inyamaswa yororerwa mu rugo cyane cyane mu bice by'icaro, aho ifite umumaro ukomeye cyane kuko itanga amata anyobwa n'abantu. Ikindi kandi itanga n'ifumbire yifashishwa mu guhinga ibihingwa bitandukanye.

Imwe mu nyamaswa zororerwa mu rugo kandi ibarizwa mu muryango w'inyamabere, izwi ku izina ry'ingurube. Ifite umwihariko wo kuba irya ibintu byose, ikindi kandi ibyara ibyana byinshi cyane kuva kuri kimwe ikaba yanageza ku icumi, byose ikabibyarira icyarimwe.

Ingurube imwe mu itungo ryororerwa mu rugo, rikaba ribarizwa mu muryango mugari w'inyamaswa z'inyamabere .Rizwiho kuba rifite umwihariko wo kuba yabyara ibyana byinshi cyane. Ikindi kandi ikaba irya ibintu byose itarobanuye.

Ahantu bakorera ibikorwa bijyananye n'ubworozi, by'umwihariko bahororera inka, Hagaragara umugabo uhetse igikoresho bita ipombo, aho ari gutera umuti ku iyo nka, hagamijwe kugira ngo bice udukoko twangiriza inka.

Imwe mu nyamaswa zororerwa mu rugo izwi ku izina ry'inka, ikaba ifite umumaro ukomeye cyane mu mibereho y'abanyarwanda aho ibaha amata, ndetse ikindi kandi inatanga ifumbire, yifashishwa mu bikorwa bijyanye n'ubuhinzi bw'ibiribwa.

Zimwe mu nyamaswa zororerwa mu rugo mu gihugu cy'u Rwanda zizwi ku izina ry'inka, zikaba zizwiho cyane cyane gutanga umusaruro w'amata ndetse n'uwo inyama, by'umwihariko amata azikomokaho afite intungamubiri zikomeye cyane zifite uruhare rwinshi cyane mu mibereho myiza y'abantu.

Ingurube ni imwe mu inyamaswa zororerwa mu rugo, zizwiho kuba zigira umusaruro mwinshi cyane kuko zororoka vuba kandi zikabyara ibyana nyinshi cyane.

Ahantu hakorerwa ibikorwa bijyananye n'ubworozi bw'inkoko. Ikaba ari imwe mu nyamaswa zororerwa mu rugo zifite umwihariko kuko zitanga umusaruro w'amagi ndetse n'uw'inyama, sibyo gusa kandi zinatanga ifumbire yifashishwa mu bikorwa bijyanye n'ubuhinzi.

Rimwe mu matungo yororerwa mu rugo cyane cyane rizwi ku izina ry' inkoko, hagaragara imishwi mito cyane y' inkoko aho ivangavanze, ifite akamaro gakomeye cyane mu gutanga umusaruro w' inyama ndetse n' amagi, aho afite akamaro kenshi cyane mu iterambere ry' abanyarwanda.

Urugo rwororerwamo inyamaswa zizwi nk'ingurube, zikaba zizwiho umwihariko wo kuba zirya ibintu byose. Ikindi kandi zinabyara ibyana byinshi cyane ku buryo imwe icyarimwe yabyara ibyana bigera ku mubare w'icumi.

Umusaruro w'amagi akomoka ku bworozi bw'inkoko zitera zizwi nk'inkokokazi. Agamagi afite umumaro ukomeye cyane, kuko ari isoko y'intungamubiri zitungaga umuntu. Si ibyo gusa kandi zinatanga amafaranga iyo bagurishije aya magi ku isoko.

Umusaruro ukomoka kuri zimwe mu nyamaswa zorwa mu rugo zizwi nk'inkoko, aho hari amagi afite akamaro gakomeye cyane mu buzima bwa muntu, kuko zitanga intungamubiri zikomeye cyane zifasha umubiri mu mibereho myiza ya wo.

Urukwavu imwe mu nyamaswa zororerwa mu rugo. Ruzwiho kuba rwororoka vuba kandi rukabyara n'ibyana byinshi cyane mu gihe gito. Si ibyo gusa kandi runazwiho ngo kuba rugira ubwenge bwinshi.

Imwe mu nyamaswa zororerwa mu rugo izwi ku izina ry'urukwavu. Izi nyamaswa zizwiho kuba zororoka mu gihe gito kandi zikabyara ibyana byinshi cyane ikindi kandi abanyarwanda bazitazirira kuba ngo zizi ubwenge bwinshi cyane nanone.

Inzu bakoreramo ibikorwa bijyanye no korora zimwe mu nyamaswa zororerwa mu rugo, zizwi ku izina ry'inkoko. Izi nyamaswa zitanga umusaruro cyane cyane uw'inyama ndetse n'amagi, zifite uruhare rukomeye cyane mu bukungu ndetse n'imibereho myiza y'ikiremwa muntu.

Zimwe mu nyamaswa zorerwa mu rugo, by'umwihariko zizwi cyane mu muco nyarwanda. izina ryazo ni Inka. Aho zagiye ku mugezi kunywa amazi, igikorwa kizwi cyane cyane ku izina ryo gushoka. Hagaragara kandi abantu iruhande, bigaragara ko aribo baziragira cyangwa se bazitaho bazwi ku izina ry'abashumba.

Ingurube, imwe mu nyamaswa zororerwa mu rugo, ikaba ifite umwihariko wo kuba irya ibintu byose, ikindi kandi inabyara ibyana byinshi cyane, kuko yabyara icyana kimwe, ikaba yanageza kubyana icumi.

Ingurube imwe mu nyamaswa zororwa mu bice by’icyaro, izwiho kuba irya ibintu byose. Ikindi kandi ifite n'umwihariko wo kuba ibyara ibyana byinshi cyane, ku buryo yava kuri kimwe ikaba yanageza ku byana cumi na bitatu ikabibyarira icyarimwe. Si ibyo gusa, izwi ko igira n’inyama iryoha cyane.

Imwe mu nyamaswa ziba mu muryango mugari w'izinyayamabere izwi ku izina ry'ingurube. Ikaba ifite umwihariko wo kuba ibyara ibyana byinshi cyane, kandi na none ikaba irya ibintu byose itarobanuye.

Zimwe mu nyamaswa zororwa mu muryango mugari nyarwanda zizwi kw'izina ry'ingurube, iyi nyamaswa ibarizwa mu gisata cy'iz'inyamabere aho ifite umwihariko wo kuba ari imwe mu nyamaswa zishobora kubyara ibyana byinshi cyane bishobora kurenga kimwe bikagera no ku mubare nk'icumi.

Inyamaswa iba mu ishyamba, izwi ku izina ry'urukwavu, rw'ishamba izwiho kuba ikunda kwibera mu myobo, ikindi kandi ngo ni'inyamaswa izwiho kwirukanka ku muvuduko wo hejuru, cyane cyane igihe igize ibyago byo kuba iri guhigwa n'indi nyamaswa.

Imwe mu nyamaswa ziba mu ishyamba izwi ku izina ry'ingagi, bikaba bivugwa ko ifite isano yihariye cyane, ndetse iri hafi ijya kumera nk'iy'abantu. Izi ngagi zifite uruhare rukomeye cyane mu bukungu bw'igihugu cyacu, kuko zitanga amadovize atangwa n'abazisura mu birunga.

Isatura n'imwe mu nyamaswa ziba mu ishyamba, aho ijya kugira isura igiye kumera nkiyi ngurube, ariko yo aho bitandukaniye nuko iba mu ishyamba, izwiho kandi kuba igiga amahane menshi cyane.

Akanyamasyo, imwe mu nyamaswa ziba mu ishyamba ariko ikaba igira umwihariko wo kuba ifite urukonoshwa rukomeye cyane ari narwo rukarinda kuba kagira ikibazo giturutse hanze. Ikindi kandi kazwiho kuba kagenda gake cyane.

Imwe mu nyamaswa ziba mu ishyamba yitwa intare, ikaba ari inyamaswa y'inyembaraga cyane, bakaba banayita umwami w'ishyamba, mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, zikunda kuba mu ishyamba ry'Akagera.

Imwe mu nyamaswa ziba mu ishyamba, by'umwihariko yibera mu mazi izwi ku izina ry'Ingona, ikaba ari inyamaswa igira ubukana cyane ndetse ikaba ihiga utunyamaswa two mu mazi.

Imwe mu nyamaswa ziba mu ishyamba izwi nk'isha. Iyi nyamaswa izwi cyane kuba izi kwirukanka ndetse n'amahembe meza ya yo igira. Irya ibyatsi, ikunda kuba mu mashyamba arimo umukenke mu Rwanda, twavuga nko mu ishyamba ry'akagera kari mu gice cy'Uburasirazuba.

Inyamaswa iba mu ishyamba ikaba inabarizwa mu muryango w'inyamabere, izwi ku izina ry'inkende bikaba bivugwaga ko ifitanye isano ya hafi n'umuntu w'uyu munsi, binakekwa ko umuntu wa mbere, mbere y'uko abaho yari inkende ahubwo agahinduka bitewe no guhinduka kw'ibihe niko abanya siyanse babivuga.